Imodoka itwara abagenzi ariko yikoreye n'ibindi bintu byinshi cyane kuko bigaragara ko ifite akantu hejuru ko gushiraho imizigo y'abantu bagiye batandukanye. Biragaragara ko ari imodoka itwara abagenzi ariko ikaba ifite uburyo bwo gutwara n'ibyabo bagenzi hejuru yayo.

Abaturage bari mu nzu bakurikiranye ibiganiro, uko bigaragara hakaba hariho abayobozi bari imbere yabo, bari kubabwira ibijyaniranye n'ibyo bari kwigaho bigiye bitandukanye, nk'uko bigaragara akaba ari abantu benshi bari hamwe, harimo abaturage ndetse n'abashinzwe umutekano baje kumva ibijyaniranye n'umutekano w'aho batuye.

Abantu bambitswe amapingu, nkuko bigaragara bakaba babashyizemo amapingu mu biganza, bikaba bigaragara nk'aho bakoze icyaha runaka, bakaba babajyanye mu nzego z'ubutabera , bakaba bashorewe n'abantu bagiye batandukanye kubw'ibyaha bakoze, bakaba bagiye kubafunga cyangwa kubashyira mu butabera.

Inama y'abaturage bari hamwe n'umuyobozi cyangwa ushinzwe umutekano ari we mu daso akaba ariho umuntu kubagezaho kubababwira uko ibintu bimeze ko ari na bakoze amumo abantu bicaye bari kureba bigaragara ko ari mu gihe cy'icyorezo cya covid kubera ko bambaye n'udupfukamunwa bi...

Ushinzwe umutekano w'umupolisi uko bigaragara mu myambaro yambaye, akaba yambaye imyambaro y'abashinzwe umutekano y'abapolisi bakorera mu gihugu cy'u Rwanda. Uko bigaragara akaba n'umupolisi wambaye impuzankano y'akazi ya gipolisi.

Umuyobozi uri kubwira abaturage kuko bigaragara ko yambaye ikoti ririho idarapo ry'u Rwanda, bikaba bigaragaza ko ari mu Rwanda, ari umuyobozi uri gutanga imbwirwahame ku baturage. Ari kubwira abaturage ibintu bigendanye n'imibereho myiza cyangwa umutekano, cyangwa ibindi bintu, mbese ibyo abayobozi babwira abaturage babo.

Ifoto y'abantu bari kuramukanya bari mu nzu, bigaragara ko bari mu nzu basuranye, bakaba bari kuramukanya, bakaba bafite ibyo kunywa imbere yabo byinshi bigiye bitandukanye, bakaba bagaragara ko bishimye, babakiriye muri salo, salo nziza irimo ishusho ya yesu, ndetse bakaba bishimye cyane nk'uko bigaragara.

Umuntu cyangwa inama yitabiriwemo n'abantu benshi. Hakaba hari umugabo uko bigaragaraba uri gutanga igitekerezo mu nama, akaba afite mikorofoni ari gutangaka cyee kugira ngo cyumvikane, muri iyi mbwirwaruhame irimo abantu benshyi batandukanye.

Umugabo ufite mikoro ari gutanga ibitekerezo mu nama, ngo bigaragara ko hariho abandi bantu benshi bicaye bari kumva bakumva ibitekerezo, uwo araha mikoro agahaguruka kugira ngo atange igitekerezo cye mu nama.

Abantu bari mu nama bari gutega amatwi ikiganiro cy'ubuyobozi, nk'uko bigaragara bakaba bari mu nama bari kurebabera hamwe, bari kumva ibyo umuyobozi ari kubagezaho, bateraniye mu nyubako nini cyane itatse neza, hakabamo abayobozi mu buryo bugiye butandukanye.

Umuntu uri kuvuga usa n'aho ari umuntu uri gutanga ikibazo cye ku bayobozi. Uko bigaragara akaba ari kuvugira muri mikoro ari gusobanura ikibazo, cyangwa ari kuvuga ibintu runaka. Bari kumubaza cyangwa ari gusobanuza.

Abaturage bari mu nama bari kumva imbwirwaruhame. Hari abari kwandika bafite amakaramu bari kwandika ibyo bari kumva, abandi bateze amatwi bigaragara ko bari kumva imbwirwaruhame umuyobozi yabateguriye, cyangwa hari icyo umuyobozi ari kubagezaho.

Imboga za Soro nk' unkuko bigaragara, akaba ari ibyatsi byo gukoresha mu miti runaka, ari imiti gakondo cyangwa mu muco runaka, bikaba bigaragaza ibintu bigiye bitandukanye, abikoramo imiti cyangwa bakabikoresha nk'imboga zo kurya, ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Inzu ndangamurage y'ubwami, igaragaza imibereho y'abakera mu gihe cy'ubwami, mu bihe byo hambere mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bigaragara ko ari inzu yubatswe kera igaragaza iby'umuco nyarwanda, ndetse no hambere mu bihe by'ubwami.

Igikoresho cy'ishoka gikoreshwa mu gutema ibiti akaba n'igikoresho gikoreshwa mu gukata ndetse no guca imbaho, kikaba gikoreshwa cyane cyane mu kwasa inkwi cyangwa mu gutunganya ibicanwa mu rugo.

Abaririmbyi cyangwa itorero bambaye imyambaro y'Abanyarwandakazi nk'imikenyero, basokoje neza bigaragara ko bari kuririmba bari no gucurira bishimiye ibyo barimo cyangwa bari kunezererwa, mu ndirimbo bari kuririmba.

Ibikoresho byo mu muco gakondo bigaragara ko ari ibikoresho byakoreshwaga kera cyane mu Rwanda rwo hambere, bigaragaramo nk'inkongoro, utubindi n'utundi dukoresho twakoreshwaga kera mu muco wo hambere, wa kinyarwanda.

Ababyinnyi bo mu muco nyarwanda cyangwa abo bita intore, bakaba ari ababyina indirimbo za gakondo cyangwa indirimbo zatambutse zabayeho mu bihe byashize mu gihe cya...cy'i...cy'i... cy'abami, mu Rwanda rwo hambere.

Umuntu w'umunyarwanda uri kuvuza umwungi nkuko bigaragara, akaba ari igikoresho cyakoreshwaga mu kurangurura amajwi, cyangwa mu gucuranga cyitwa umwirongi w'umunyarwanda nkuko bigaragara. Bawukoraga mu mugano cyangwa ibindi bikoresho runaka, uyu rero akaba ari kuvuza umwirongi.

Ababyinnyi bazwi ku izina ry'intore, babyina indirimbo zo mu muco nyarwanda, kuko bigaragara ko bahafite ibikoresho bitandukanye, nk'amacu yogukoresha mu bintu byo kubyina ndetse no mu yindi mirimo igiye itandukanye, byagaragazaga umuco nyarwanda.

Ababyeyi b'abamama n'intore uko bigaragara bari kubyina . Bakaba bagaragaza umuco nyarwanda ,bakaba bikoreye ibiseke ,akaba ari ibintu bigaragaza ukuntu u Rwanda rwo hambere abantu babyinaga kandi basuranaga ,bikaba bigaragaza umuco

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, zigaragazwa n'uko bambaye, ndetse bafite n'amacumu bakaba bambaye n'imisatsi, bigaragara ko ari abantu bari kubyina indirimbo z'umuco bambaye n'amayugi harimo n'abakobwa bari guseka, hagaragara ko ari abagabo bafite amucumu n'ingabo bigaragara ko ari itorero ry'ababyinnyi babigize umwuga.

Inzu yo mu bwoko bw'inzu za kera z'ibwami uko bigaragara akaba ari inzu yubakishije ibyatsi, yubakishije ibyatsi iriho imbariro ndetse ikaba ari inzu yubatse mu buryo bwa kinyarwanda, kuko inzu za kera zabaga zubatse cyane cyane inzu z'ibwami.

Inanga ya kera yo mu muco nyarwanda igaragara nk'igikoresho bakoreshaga bari gucuranga imiziki, akaba ari umuntu uyifite igaragara ko ari umuntu ucuranga akoresheje, acuranga injyana gakondo akoresheje n'ibikoresho gakondo.

Indobo irimo ibyatsi bitandukanye. Uko ibigaragara akaba ari byatsi bashobora kongera gukoramo ibintu bijyaniranye n'imiti cyangwa bagakoresha mu bindi bintu bya kinyarwanda cyangwa by'umuco ujyaniranye no kuvura cyangwa mu bindi bintu runaka.

Abagabo n'abasore bari mu rugo cyangwa mu muryango, aho bigaragara ko bashinze agatebe, bari gukina umukino w'igisoro, bakaba bari kunwera no mu gacuma, bakaba bari kunywa umushururu cyangwa urwagwa mu gacuma.

Inzu z'amateka zigaragara nk'inzu ndangamurage cyangwa ahantu ho kwigira umuco ndetse n'ibindi bigendanye nibyo hambere, hakaba hari umusaza w'umusatsi myinshi ndetse ufite n'inkonki ya kinyarwanda, bigaragara ko ari umumusaza ugaragaza ibigendanye n'umuco nyarwanda.

Abakaraza bari kuvuza ingoma, bararamye barebye hejuru, ubwo bigaragara akaba ari ibintu byo mu mucyo nyarwanda, aho ari igice cyo kuvuza ingoma cyangwa cyo gukaraza, abantu bari kubyina, hariho abantu bari kubyina, hakabaho kuvuza ingoma, kugira ngo babumve ingoma zirangire.

Umukobwa wicaye, wambaye uduti mu mutwe, wambaye n'bindi mu ijosi, bikaba bigaragara nk'umukobwa ugaragaza umuco nyarwanda kuko yambaye imikenyero, akaba yambaye urunigi mu ijosi ndetse akaba anifashe neza neza cyane nk'Abanyarwandakazi bo hambere.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo, nk'uko bigaragara bakaba bafite amacumu, ndetse n'ingabo, bikaba bigaragaza umuco gakondo w'abanyarwanda, kuko babyinaga izi mbyino za kera, arizo mbyino gakondo za kinyarwanda.

Ababyinnyi bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda, kuko bigaragara bakaba bafite amacumu, bakaba bafite n'ingabo, bambaye n'imigara ku mutwe, bari kubyina imbyino gakondo za kinyarwanda. Nkuko turi kubibona bari kuba bari mu gikorwa cyo...

Umwami cyangwa abaja b'ibwami, bagaragara nkaho ari abantu bakoraga ibwami imirimo igiye itandukanye, mu gihe cy'abami nkuko bigaragara ko bambaye imishanana ndetse ko bafite n'inkoni, bikaba bigaragara ko ari mu Rwanda rwo hambere.

Umuntu uri kurasisha umuheto kuko bigaragara ko ari kurasa, kuko umuco wo hambere wahigaga bifashishije imiheto ndetse n'amacumu, bigaragara ko agiye kurasa umwambi yifashishije umuheto, umuheto we akaba yambaye imyenda yo hambere nk'uko bigaragara ko mu muco nyarwanda ari ko bambaraga.

Ikibindi kirimo imiheha ine, nkuko bigaragara akaba ari ikibindi kirimo ubushera cyangwa umusururu, ushobora kuba ari n'ugwagwa akaba kiri kubira cyane, akaba harimo imiheha izwi ku izina rya kinyarwanda yitwa ruvunatakaka, imiheha mini ikozwe cyane cyane mu migano.

Umukino wo gusimbuka aho basimbuka urukiramende, kuko bigaragara ko hejuru hari umuntu wasimbutse uri gusimbuka urukiramende, hakaba hariho n'abantu bagiye batandukanye bakina uyu mukino, kuko bigaragara ko hariho abantu benshi cyane.

Igikoresho cya comomaji ukoresha amashanyarazi . Kigaragaza umuriro ndetse kigakoreshwa mu gucomeka cyangwa mu gucaginga ibintu byinshi bigiye bitandukanye . Akaba iki igikoresho gikoreshwa mu gutanga amashanyarazi cyangwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Igikoresho cyifashishwa mu bintu bijyaniranye n'amashanyarazi, mu gihe bari kwensitara cyangwa bari gukora ibintu bijyaniranye no gushyira mu nzu no mu byumba, cyangwa guha ahantu amashanyarazi. Bakaba babyifashisha bari gushyira amashanyarazi no mu mazu, mu mazu mo imbere cyangwa mu bikorwa remezo runaka.

Agakoresho gashyirwa ku nzu mu gihe bari kwesitara cyangwa gushyiramo umuriro w'amashanyarazi, gafasha mu kuzimya cyangwa mu kugira ngo batse, mu gihe habaye ikibazo cyangwa mu gihe cyo kugira ngo bahindure, bashyiremo amashanyarazi cyangwa bagakuremo.

Igikoresho gikoreshwa mu gucukura mu gucukura mu bintu bijyaniranye n'amashanyarazi, uko bigaragaraba gifite icyo bafataho ku ruhande, cyangwa bashobora gufata bari gukurura, mu gihe bashaka kucyimura barakijyana ahandi hantu.

Igikoresho cyangwa ahantu ahabugenewe ho gushyira igikoresho runaka gikoresha amashanyarazi, nk'uko bigaragara hakaba ari ahantu hariho udupfumure tune, ko hashobora gucamo insinga mu gihe cyo kwesitara, cyangwa mu gihe cyo gushiramo amashanyarazi mu nyubako cyangwa iki gikoresho...

Inzira zo gutambuka mu myubako cyangwa mu nsengero, kuko bigaragara akaba ari inzu, inzu irimo utuyira twinshi, kuko bigaragara akaba ari mu nzu nini cyane, iririmo inzira zo gutagu z'abanyamaguru.

Igikoni cya kijyambere, aho abantu bateka bifashishije gaze cyangwa imbaraga zituruka kuri gaze, hakaba hariho amashyiga ameze neza, ateyeho amakaro, hakaba hagaragara ko ari ahantu heza cyane, hafite isuku nyinshi cyane, ku rwego rwo hejuru.

Ikigo kinini cyane bigaragara ko hashobora kuba ari ku rusengero rw'idini runaka, cyangwa akaba ari ahantu hakorerwa imirimo igiye itandukanye, nk'uko bigaragara akaba ari ahantu hanini cyane, hakira abantu benshi, ikaba inyubako yakira abantu benshi cyane.

Inzu nini cyane bigaragara nk'aho ikorerwamo ibikorwa bigiye bitandukanye bya leta, ikaba iri ahantu hanini cyane bigaragara nk'aho ari mu mugi, hakaba hari inzu nini cyane ishobora gukorerwamo ubucuruzi cyangwa ikigo cy'amashuri, gikorerwamo n' ibindi bintu runaka byinshi cyane.

Ikigo cyiza cyane cy'amashuri, ikigo kiri ahantu heza, kizengurutswe n'umuhanda nkuko bigaragara, akaba ari inzu nini cyane, igaragara nk'aho ari ikigo cya segonderi cyangwa cya kaminuza, cy'amashuri yo kwigiramo, hariho jaride nini mbere yaho.

Ikiraro cyakozwe cyo ku muhanda kugira ngo ibinyabiziga bijye birabasha kwambuka, ndetse n'abantu bambuke bashobore kugirana ubuhahirane, ari hakurya y'umugezi, ndetse no hakuno y'umugezi, nk'uko bigaragara ko ari ikiraro cyubatswe kugira ngo gihuze imigenderanire hagati y'abantu, mu gutwara ibintu n'ibintu.

Ahantu hagaragaza umugi，ahantu heza cyane hanini，harimo ibikorwa remezo， ibikorwaremezo harimo amasoko， ndetse harimo n'amashuri， nk'uko bigaragara akaba ari ahantu hanini， ahantu hatejwe imbere ho mu mugi mwiza cyane.

Ipironi itwaye amashanyarazi kuko bigaragara, akaba ari uburyo bwo gukwirakwiza amashanyarazi mu giturage cyangwa mu mazu y'abantu. Hakaba hagaragaza ipironi cyangwa icyuma kinini, kiba kiriho amashanyarazi cyangwa imigozi myinshi, ijyana amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Abaturage bari mu nama bari gukora ikiganiro. Bigaragara ko hariho umuyobozi ubayoboye, cyangwa uri kubagezaho imbwirwaruhame. Aho mu nama bari bakaba bahuriye ku kibuga cyo mu kigo cy'amashuri, akaba ariho bicaye kugira ngo bakore inama.

Abaturage bahurijwe hamwe bari mugikorwa cy'inama, akaba ari umuyobozi uri kubagezaho ibikorwa, bikaba bigaragara ko hariho ibintu byo kubigisha, ibijyanye n'uburenganzira bwabo cyangwa ibintu byoguca imanza zigiye zitandukanye, ku bibazo biba biri mu baturage.

Iyi ni imodokari igendamo abakinnyi b'ikipe, kuko yanditseho Kigali siti, ikaba ar imodoka iriho icyapa cya Viziti Rwanda, cyangwa cyanditseho gutembera u Rwanda, bigaragara ko ari imodoka y'umugi wa Kigali.

Indege nini cyane yitwa rwandeya itwara ibintu ndetse n'abantu . Bigaragara ikaba yaparitse ku kibuga cy'indege' bigaragara akaba ari indege nini wari gukuramo ibintu yaritwaye.

Imodoka rusange itwara abagenzi yo mu bwoko bwa bisi, nkuko bigaragara ko ari imodoka itwara abagenzi. Hakaba hari abantu iruhande rwayo. Ishobora kuba yapfuye cyangwa ifite ikindi kibazo, kuko abantu bigaragara ko bavuyemo bahagaze ku ruhande, ikaba ihagaze mu muhanda.

Abagenzi bari mu bwato butwarwa, mu bwato cyangwa gutwara abantu binjijwe mu myanya, nk'uko bigaragara ko harimo abantu bagiye batandukanye b'abazungu ndetse n'abirabura mu bwato, ko bari kwambuka bagiye hakurya cyangwa ngo bari gukora umurimo wo gutwarwa nyine, kuva hamwe bajya ahandi bakoresheje ubwato.

Umugore utwara, bigaragara ko atwara imoto y'amapine atatu, akaba ari umugore witeza imbere ukora imirimo yo gutwara ibintu kuri moto, akaba afite yambaye isarubeti, yambaye na bote bigaragaza ko ari mu kazi kuko bigaragara.

Imodoka yikoreye ibintu bisa n'umucanga, iyi modoka yo mu bwoko bwa Hoho, hari imodoka nini cyane yikorera ibintu byinshi, ikaba itwaye ibintu, ikaba itwaye ibintu bijya kumera nkumucanga, ikaba ari imodoka ikora imirimo yo kwikorera ibintu bitamubuye, imicanga, ndetse n'amatafari ndetse.

Karitsiye cyangwa ahantu haba imodoka imodoka zihagarara ari nyinshi, kuko bigaragarako harimo abantu benshi cyane hakaba harimo n'amamodoka aparitsemo ari menshi cyane, bigaragarako ari ahantu bategera imodoka hazwi nko muri gare.

Gutwara abantu n'ibintu, aho bashobora gukoresha amagare cyangwa ibindi bikoresho bitwara abantu, nkuko bigaragara hano hakaba hari abantu bari gutwara ibintu n'abantu kuko hifashishijwe igikoresho cy'igare ryo batwara.

Ahantu mu mugi mu muhanda, hari imihanda igenda itandukanye myinshi, bigaragara ko hariho abantu bahagaze bari kureba ibisa nk'aho ari irushanwa ryabaye, abantu bakaba bahagaze ku ruhande, bakaba bari kureba ibiri gukorerwa aho hantu ariko bakaba bari mu muhanda.

Imodoka nini zikorera ibintu biremereye cyane, bigaragara ko ari imodoka nyinshi cyangwa zishoreranye cyane, zikaba zitwara imizigo, zikaba zikora imirimo yo gutwara imizigo iremereye, ishobora no gukoreshwa cyane, mu bucuruzi mpuzamahanga bwambukiranya imipaka.

Abantu batwaye amata ku magare, hariho n' abatwaye ibisheke, uko bigaragara ko basunitse ibicuba biri ku magare birimo amata. Uko bigaragara akaba ari ugutwara cyangwa kujyana amata, akaba ajyanye amata ku isoko kuyacuruza n'ibisheke.

Imodoka yo mu bwoko bwa bisi, itwara abagenzi ikoreshwa cyane cyane mu migi igiye itandukanye nk'umugi wa Kigali. Hari imodoka ikoreshwa mu gutwara abagenzi mu mugi wa kigali, ikaba ijemo abantu benshi izwi ku izina rya shirumuteto, imodoka nini cyane.

Imodoka zitwaye ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane, nkuko bigaragara ko hashobora kuba harimo imifuka, akaba ari imodoka zitwikiriye zitwaye imyaka, cyangwa ibindi bintu by'ibiribwa, zivana hamwe zibijyana ahandi.

Abakinnyi bakina umukino wa basiketi, uko bigaragara akaba ari ikibuga gikinirwamo imikino y'intoki, uko bigaragara akaba ari abakinnyi bakina umukino w'intoki wa basiketi, akaba ari amakipe abiri ari gukina akaba ari mu nzu y'imikino cyangwa ahakinirwa imikino y'intoki, y'imikino y'intoki.

Umukinnyi wa basikete uko bigaragara akaba akina umukino w'intoki wa baskete, akaba ari mu kibuga yambaye impuzankano cyangwa inifomu y'abakinnyi b'umupira wa basikete, afite n'umupira mu ntoki, bigaragara ko ari mu kibuga ari gukina.

Umupira bakoresha mu mukino wa vore, umukino wo gutera umupira n'intoki, umukino ukinwa bakoresheje intoki, amakipe aho amakipe abiri ajya rimwe rijya ku ruhande irindi ku rundi ruhande, bari guherezanya maze bagatsindana ku bawutaye hasi bakaba ari umupira bakoresha.

Umukinnyi ukina umukino w'intoki uzwi ku izina rya tenisi akaba ari mu kibuga bakinaraho uyu mukino. Akaba ari mu kibuga kiriho ibyapa byanditseho visiti Rwanda, akaba ari umukinnyi ugaragara ko ari umukinnyi urimo gukina uyu mukino witwa tenisi.

Umukinnyi ukina agapira ka tenisi, ku bigaragara ko bari gukina umukino wa tenisi, aho yambaye imyambaro, akaba agaragara mu kibuga cya teinisi cyo mu Rwanda, nkaho nyuma bigaragaza ko handitseho Visiti Rwanda.

Abanyamagare bari mu marushanwa, uko bigaragara akaba ari ahantu hari n'abaturage baje kureba, cyane cyane ibijyananiranye na siporo cyangwa umukino w'amagare, kuko bigaragara hakaba hariho abantu benshi cyane baje kureba uyu mukino.

Abakinnyi bahagarariye ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, kuko bigaragara ko bafite idarapo ry'igihugu, bakaba bigaragara ko bahagarariye igihugu cy'u Rwanda mu marushanwa, kandi bakaba bisa n'aho bari mu irushanwa mpuzamahanga ry'imikino.

Umukinnyi ukina irushanwa ryo gusiganwa ku magare. Uku bigaragara akaba ari mu muhanda, akaba ari mu marushanwa, uko bigaragaraba akaba ari umuzungu uri gukina umukino w'amagare wo gusiganwa ku magare.

Ikipe y'Igihugu y'Amavubi nk'uko bigaragara ko bambaye inifomo z'ikipe y'Igihugu hakaba harimo abantu bagiye batandukanye. Uko bigaragara bakaba bari ikipe yuzuye bari kwifotoza mbere, cyangwa nyuma yo gukina umukino w'umapira. Ikipe ikina umukino, umukino w'umupira w'amaguru.

Umukinnyi uri gukina umukino wa tenisi ufite akatenesi mu ntoki, afite igikoresho bakoresha bari gukina umukino wa tenisi, bigaragara ko ari mu kibuga, ari gukora, ari gukina uyu mukino, akaba ari ahantu ho mu mujyi.

Abafana bari mukibuga uko bigaragaraba bafite amadarapo bakaba bari mukibuga. Bakaba bicaye ahantu bari kurebera umupira bisize amarangi barerekana n'amadarapo y'Igihugu cyabo.

Abakinnyi bakina umupira w'amaguru, uko bigaragara akaba ari ibihugu bibiri byakinnye, kuko turi kubona ko hariho umuntu wambaye inifomu cyangwa impuzankano, z'igihugu cy'U Rwanda ,n'undi utari umunyarwanda ,akaba ari amakipe abiri bari gukina umukino w'amaguru ,umupira w'amaguru.

Ikipe y'abakobwa bigaragarako ari ikipe y'abakobwa batwaye igikombe, bakaba bishimiye igikombe batwaye bakaba bari kumwe n'abatoza ndetse n'abandi bahungu babashyigikiye, uko bigaragarako hari abantu benshi cyane ari ikipe ngari.

Umuhanda cyangwa inzira y'abanyamaguru, cyangwa inzira yo mu makaritsiye, cyangwa mu baturage, yubakishije amapave, mu nzira yo kutambukamo, kugira ngo utambuke mu imidugudu runaka, cyangwa mu mazu runaka.

Abagenzi bari kugenda mu muhanda , nk'uko bigaragara ko abantu bari kugera mu muhanda w'ahantu hameze neza, bigaragara ko ari ahantu hakoze neza hari n'ubusitani bwiza ,akaba ari umuhanda uri hagati umeze nk'aho ari mu kigo cyangwa ari ahantu hateranye.